Abantu bari mu mahugurwa y'ubuzima bigishijwe uko bashobora kwirinda indwara zitandukanye zishobora kwadukira imibiri yabo, bafite amazi yo kunywa, udukayi n'amakaramu byo kwandika ibyo bavuze.

Ikirango kiriho ishusho y'umuganga ikirango kiratubwira ngo tujye tuva aho turi tujye gushaka bagenzi bacu bashobora kutugira inama z'uko twagera ku buzima bwiza.

Ababyeyi b'abadamu bakuze baje kuvoma amazi kuri robine bahasanze umuntu ubavomera, ari kuvoma injerekani imwe kuri imwe akurikije uko bagiye bazitondekanya nuko bagiye bakurikirana, rero dukoreshe amazi asukuye kuko ni ingenzi ku buzima bwa muntu.

Ababyeyi babiri umugore n'umugabo baje kuvoma amazi, umugore uvomesha ari kubaganiriza ko amazi meza ari isoko y'ubuzima, tujye dukoresha amazi meza bityo umubiri wacu tuwurinde kurwaragurika.

Urujya n'uruza rw'ababyeyi bari kwa muganga baje gukingiza abana babo inkingo. Twitabire gukingiza abana bacu inkingo zose kugira ngo tubarinde indwara zitandukanye nk'imitezi, mburugu, rubaga impande ndetse n'izindi ziterwa no kuba umwana atarakinjijwe inkingo ngo azirangize.

Ababyeyi bahuriye mu rugo rumwe rugize imidugudu, aho bari gutegura indyo yuzuye, bamwe bari kwiga uko bategura indyo yuzuye kugira ngo ababyeyi n'abana bakomeze kugira imibereho myiza.

Uumwana uri kuvoma amazi kuri robine yambaye umwenda w'umuhondo n'ikabutura y'umukara, ni umwana w'igikara wishimiye kuvoma, ari kumwe n'abandi bantu baje kuvoma.

Abaganga barimo abagore n'abagabo, bari gufata ifoto nyuma yo gusurwa n'abaganga bakomeye bo mu nzego zo hejuru baje kugenzura imikorere y'ibi bitaro.

Umugabo w'umukozi wa WASAC uri kwigisha umwana uburyo amazi meza atuma ubuzima bwa muntu buba bwiza, kubera isuku ab’afite.

Ababyeyi bagiye gupimisha abana kwa muganga, bafite ibipande baricaye, bari guha abana amabere bategereje serivisi kwa muganga.

Umwana mutoya ari kuri robine ari gufungura amazi, ni amazi ari mu ndobo bacometseho igitembo cya robine batereka ku meza, rero arimo aravoma amazi kugira ngo ajye gukorera isuku umubiri.

Umugabo wambaye ikoti afite ikayi n'ikaramu mu ntoki, ari kumwe n'abaturage bitabiriye inama ari kubigisha ibijyanye n'ubuzima, uko wakwirinda indwara bitewe n'uko wagize isuku nkeya.

Abaganga batatu umusore umwe n'abakobwa babiri b'abaganga, bari kumwe n'abarwayi baje kwipimisha ndabona bari kubashinga urushinge ku rutoki.

Abana bari kuri robine, bafunguye amazi bari kwiyuhagira, kuyanywa, ndetse no gukaraba mu ntoki, amazi ni ubuzima tujye dukoresha amazi afite isuku.

Urujya n'uruza rw'abantu bavuye mu bice bitandukanye by'igihugu, baje kwa muganga kwivuza no kureba ko bafite indwara z'ubwonko.

Umudamu uri kugira inama umurwayi w'umugabo waje kwisuzumisha indwara zo mu mutwe; indwara zifata ubwonko arebe uko ahagaze; inama za muganga ni ingenzi.

Urujya n'uruza rw'abantu, bitabiriye inama Mpuzamahanga, yaganiriye kuri uyu munsi wiswe World Mental Health Day, ni inama yateguwe n'ikigo gishinzwe ubuzima ku Isi.

Umugabo w'umusazi uri gutoragura imyanda arya ibyo abonye, yambaye nabi, ntaheruka koga bigaragaza ko utagiriye isuku umubiri nta buzima wagira.

Umuganga ari guha umurwayi umuti akoresheje selumu, umuganga wambaye imyenda y'akazi, udupfukantoki, udupfukamunwa, yambaye amarineti, yicaje umurwayi ku ntebe ari kumuha umuti.

Umuganga ari kutwereka ibishushanyo bigaragaraho amenyo y'umuntu urwaye, uburyo aba asa nabi, uburyo aba yarahomye asa nabi cyane.

Umugabo ufite isuku, wambaye rinete ari kwerekana amenyo ye ukuntu ari meza, kubera kuyagirira isuku akoresheje korogate n'uburoso byiza, bityo nitugirire isuku amenyo yacu.

Ibikoresho bigezweho byifashishwa bari gutunganya umuti w'amenyo, uyu twita korogate, ni umuti utuma amenyo agira ubuzima bwiza kandi akaba akomeye kandi asa neza.

Igikanka cy'amenyo cyerekana uburyo amenyo aba ateye mu kanwa k'umuntu, bityo tuyagirire isuku maze amenyo yacu arusheho gukomera.

Abaganga babiri; umukobwa n'umuhungu, bambaye imyenda y'akazi, bambaye agapfukamunwa, bari kureba umwana mu kanwa, uburyo amenyo ye yangiritse kubera kutayagirira isuku. Tugirire amenyo yacu isuku.

Umuntu w'umugore ari guca umushumi akoresheje amenyo, yashinyirije kugira ngo ashyiremo imbaraga nyinshi maze umugozi ucike.

Umuganga yicaranye n'umurwayi w'umusaza, waje kwaka imiti kwa muganga, ari kumwereka anamubwira uko azakoresha ibinini agiye kumuha.

Muganga ari kumwe n'umurwayi wagiye kwa muganga kwipimisha umuvuduko w'amaraso. Ni byiza kwipimisha tukareba uburyo duhagaze maze tukabasha kwirinda ibyica umubiri wacu imburagihe.

Umubyeyi uri kwa muganga wagiye kwivuza indwara, muganga ari kumuvura amutera urushinge, muganga yambaye imyenda y'akazi na ga ndetse n'agapfukamunwa.

Umwana w'umukobwa, uri kumwe na mama we, bafite icyuma kiremereye, baterura bakora siporo, umwana w'umukobwa ufite ibisuko, wambaye agapira gasa n'aka mama we, ariko mama we yongeyeho ikote.

Umudamu uri kunywa imiti yahawe na muganga. Tujye dukoresha imiti twahawe na muganga dukurikije amabwiriza yaduhaye bityo bizajya bidufasha guhashya indwara zishaje.

Abakobwa babiri bari guseka batera urwenya bari kumwe n'umukecuru, rero nidusetse abakecuru n'abasaza kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Burya guseka byongera iminsi yo kubaho.

Ikirango cya diyabete kitwereka uko dushobora kwirinda indwara ya diyabete, aho imaze kwandura abantu benshi batandukanye muri iki gihugu, bityo twirinde ibyadutera diyabete byose.

Inama yahuje abayobozi batandukanye bavuye mu bihugu bitandukanye by afurika n'inama yiswe inama mpuzamahanga iganira kuri sida ku gakoko gatera sida.

Umuyobozi ufite ubumenyi mu by'ubuvuzi ari mu nama mpuzamahanga, ari gutanga ikiganiro cy'ukuntu twarinda umubiri wacu maze tukagira ubuzima bwiza buzira indwara.

Abantu baje guha amahugurwa abana n'urubyiruko uko bakwirinda indwara z'amenyo, harimo kuyakorera isuku, kuyitaho no kugira isuku ku mubiri muri rusange.

Abaganga barimo abagabo n'abagore abagabo bari m'imyenda myiza ya kigabo hari abambaye amapantaro y'umukara, amapantaro y'icyatsi kibisi, amapantaro n'amakote y'umweru bambaye amabaji y'akazi bari gufata ifoto.

Inyubako yo kwa muganga aho babagira abarwayi barwaye indwara zitandukanye zisaba ko babaga bababagira muri iki cyumba icyumba cyiswe operetion room.

Inzu y'ikigo nderabuzima ku rubaraza hari kugendaho abaganga babiri umugore n'umugabo babaganga bambaye imyenda y'akazi, bari kugana mu cyumba cy'aho muganga atangira serivisi.

Abantu benshi ni abarwayi bicaye aho bakirira abagana ikigonderabuzima, bategereje guhabwa serivisi kwa muganga.

Inyubako yo kwa muganga, mu cyumba batangiramo serivisi zitandukanye, harimo nko gufata amaraso, gupima ibizamini by'abarwayi ndetse n'izindi serivisi bazitangiramo hano.

Inyubako yo kwa muganga aho babika imiti yab'abarwayi ni ahantu heza hafite isuku, hateye amarangi yiganjemo ibara ry'umweru n'iry'icyatsi kibisi n'umuhondo ku nkuta.

Inyubako yo kwa muganga igizwe n'ibyumba bakoreramo isuzuma bitewe n'indwara umuntu arwaye, urabona ko hagaragaramo umuganga uri kugira ibyo asuzuma akoresheje amatwi.

Ni umuti w'amazi uri mu ducupa tw'umweru, umuti na wo w'umweru ni umuti rero uvura indwara zitandukanye ku mubiri w'umuntu.

Inyubako yo kwa muganga aho hari gusohoka imodoka mu ibyo bitaro hari umusekirite ku ruhande ugenda ubora abarwayi bitewe n'aho bashaka kwaka serivisi.

Inyubako yo kwa muganga turi mu cyumba cy'aho bapimira abarwayi bareba indwara bafite mu mubiri aho banyuziriza abarwayi mu cyuma ni byiza kwitabira serivisi za muganga kugira ngo tumenye uko umubiri wacu uhagaze.

Inyubako yo kwa muganga, aha n'aho bakirira abantu baje kwa muganga.

Inyubako y'Ibitaro byo kwa muganga hari abaturage baje kwa muganga. Hari imodoka nyinshi z'abaganga n'iz'abayobozi. Hari idarapo ry'Igihugu ryerekana y'uko ari Ibitaro by'ubuvuzi mu Rwanda.

Inyubako yo kwa muganga yubatswe mu buryo bugezweho bityo rero tujye twitabira serivisi duhabwa na muganga kugirango tumenye uko ubuzima bwacu uhagaze.

Inyubako yo kwa muganga ifite ibirahure; isize karabasasu n'irangi ry'umuhondo, ifite amakositara; handitseho amagambo y'umweru yitwa frere de la charte; ni inzu nziza yo kwa muganga itangirwamo serivisi.

ikigo nderabuzima cya Rwerere gikikijwe na jaride irimo indabyo nziza, amashyamba, ibiti, bafite umuriro hejuru y'amabati amanitseho umurasire ukurura umuriro w'amashanyarazi y'izuba.

Iyi ni nyubako yo kwa muganga irimo icyumba cy'inama. Ni icyumba gikorerwamo inama kirimo intebe nziza abari mu nama bicaraho.

Inzu y'inyubako yo kwa muganga, aha ni mu cyumba, aho basuzumira abarwayi, babanyujije mu cyuma, kugira ngo barebe indwara barwaye.

Umudamu uvuye muri siporo, ari kunywa amazi nyuma yo gukora siporo kugira ngo agarure ubuyanja.

Abagabo babiri umwe ari muri siporo undi ari kumwigisha, amwereka uko baterura ibyuma biremereye, kugira ngo agatuza kabe kanini, ndetse kandi kagire ingufu, bityo siporo ituma tugira ubuzima bwiza.

Abantu bari mucyumba kwa muganga bazanye umurwayi wavunitse ari muri siporo, bamuhambiriye ku gitanda kugirango atabasha kunyeganyega, yavunitse bikomeye cyane ku buryo bitamwemerera kunyeganyega, niyo mpamvu bamuziritse ku gitanda.

Umugabo wambaye imyenda ya siporo, isengeri n'ikabutura n'inkweto bya siporo, ari gukora siporo yicaye yifashe ku manano ari kugorora umugongo.

Umubyeyi w'umudamu yicaranye n'umwana we ku buriri bari kuririmbaz umwana yahimbawe ariko ana nyeganyeza umubiri, siporo ni ingenzi ku mubiri w'umuntu.

Umugabo uri kunywa amazi nyuma yuko avuye gukora siporo, siporo ni ingenzi ku buzima bw'umuntu tujye tuyikora, kandi bidufashe kumera neza mu mubiri ndetse tunirinda indwara.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umukara ya siporo yambaye n'isengeri y'umukara arimo arakora siporo aryamye hasi agorora amaguru kugirango yumve uko ingingo z'umubiri zikora.

Ikirango kiriho umuntu uri gukora siporo aterura ibyuma, akikijwe n'amashusho y'ibiryo bigiye bitandukanye ndetse n'amazi, bivuga ko iyo ukora siporo ukarya neza indyo yuzuye imboga imbuto ndetse n'amazi ari mu rugero, ushobora kubaho neza umubiri ukamera neza.

Umugabo wambaye tiriningi, ipantaro ya siporo, inkweto z'umweru n'amasogisi y'umweru, insengeri y'umukara yambaye na kuteri, afite terefone ari gukora siporo ngororamubiri.

Ibiribwa birimo amagi, umugati, inyama, ibishyimbo, imineke, karoti, tungurusumu, inyanya n'ibindi bitandukanye bidufasha kurinda indwara umubiri, mu gihe wabiririye kandi ukabifata neza.

Umugabo uvuye muri siporo yambaye imyenda ya siporo amaze gukora siporo ngororamubiri arimo arimenaho amazi kugira ngo agarure amahumbezi.

Umusore uri muri siporo, yambaye inkweto za siporo, yambaye isaha, yambaye ikabutura, ahandi hose yikohoye, ari gukora siporo ngororamubiri.

Sigisi pake ziri kugura makeya ziri kugura amafaranga ibihumbi ijana na makumyabiri y'u Rwanda Sigisi pake yagufasha gukuraho inda muburyo bukoroheye mu gihe ufite inda iri kubyibuha kubera ibinure.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara umupira w'umukara inkweto z'umweru, ari muri siporo ari kugorora amaguru n'amaboko kugira ngo umubiri we ukomeze kugira ubuzima bwiza abikesha siporo.

Muganga ari kumwe n'umurwayi wavunitse kubera siporo, afite isifure bigaragara yuko akunda umupira, yakinnye umukino w'umupira w'amaguru maze akavunika, rero ari kumwe na muganga, ari kumuzirika bandana kugirango abashe kugenda atababara.

Umugabo uvuye muri siporo ari kunywa amazi. Amazi n'ubuzima, kunywa amazi n'ibyiza iyo uvuye muri siporo kugira ngo umubiri wongere kugira imbaraga.

Umuntu uri gukora siporo, imbuto, karoti, amacunga, amashu, bigaragaza ko iyo umuntu ariye imbuto agakora siporo, agira ubuzima bwiza.

Umuti uri mu ducupa watunganyijwe uvuye mu byatsi bitandukanye mu muti gakondo bityo rero tujye tumenya gukoresha neza imiti duhabwa na muganga.

Umuti w'ibyatsi gakondo, ibyatsi bikurwamo ni umuti uvura indwara zitandukanye, harimo ibicurane, umugongo n'ibindi.

Urumogi ni umwe mu miti gakondo irinda indwara zitandukanye, harimo inzoka, mu gihe umurwayi arwaye inzoka agateka urumogi mu biryo, akabirya arakira.

Imiti ivura ingingo z'umubiri w'umuntu, hari imiti ivura umugongo, ikavura mu mavi, ikavura mu rutugu, ndetse ni imiti itandukanye ishobora kuvura indwara z'umubiri zitandukanye.

Ni umuti w'amazi bakamuye mu muravumba muri tangawizi, bari gukoresha akayiko berekana ko umuntu afata akayiko kamwe ku munsi kugira ngo umubiri urusheho gukora neza.

Igiti cy'umuravumba ni igiti bakuraho umuti ushobora kwifashishwa kuvura indwara zitandukanye harimo inkorora, ibicurane igifu n'izindi.

Umuti wa Kinyarwanda muti w'ibyatsi uvura indwara zitandukanye harimo igifu, inkorora ndetse n'izindi zitandukanye bityo rero tujye dukoresha imiti tuzi neza ko ivura.